Ndi kubona hano umuntu uri kuhira imyaka ye, akaba yambaye neza yikwije ariko akaba yambaye agapfukamunwa, akaba ari kuyuhira akoresheje umupira w'amazi.